Abaganga bakora muri serivisi z'ubutabazi bw'ibanze, bifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakita ku barwayi, bityo babarinde kandi babakingire indwara.

Abaganga bakora muri serivisi z'ubuzima bafite ibikoresho bitandukanye, bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi, bibafasha kugira ngo babashe kuba bakwikingira mu gihe bari gutanga serivisi z'ubutabazi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubutabazi bw'ibanze byifashisha imiti igiye itandukanye ifasha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho birimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo bavure abarwayi.

Abaturage bakora imirimo itandukanye y'ubutabazi aho babumba amatafari bakubaka inzu zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kubona aho baba bafite umutekano kandi bafite ahantu heza ho gutura.

Urubyiruko rutanga ubutabazi bw'ibanze ku baba bakoze impanuka zigiye zitandukanye bahagaze hejuru y'ikiraro bakaba bari kuzamura abantu baguye mu ruzi bifashishije imigozi.

Umugabo ufite igikomere mu mutwe. Inzego zishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze zikaba zamupfutse, kuri icyo gikomere cyo mu mutwe bityo kugira ngo babashe kuba barengera ubuzima bwe, nawe agire ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bahagaze bateruye agasanduku bakaba bagiye kukinjiza mu modoka ya Minisiteri y'Ubuzima mu Karere ka Nyagatare abo bagabo bakaba bambaye agapfukamunwa bafite n'utundi dukoresha mu ntoki.

Urubyiruko rw'abakorerabushake rukaba ruri gutanga umuganda, aho bari gukata icyondo kugira ngo babashe kuba bakubaka inzu, ikindi kandi bakaba bari kumwe n'umubyeyi uri kubashyikiriza ibyatsi kugira ngo babivange n'icyondo.

Imodoka zitanga ubutabazi bw'ibanze zizwi nk'imbangukiragutabara zikaba zibasha gutwara abarwayi aho zibavana ku mavuriro mato zibajyana ku mavuriro makuru aho babasha kubona ubutabazi bwisumbuye.

Imodoka itanga serivisi z'ubutabazi ku barwayi, ikaba izwi nk'imbangukiragutabara ikaba ihagaze mu muhanda hafi y'aho hakaba hari inyubako, hirya y'inyubako hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abakozi bakora mu kigo gishinzwe gutanga ubutabazi, bakaba bari kumwe n'umukecuru bari gufashisha ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye, birimo indobo, utubasi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu rugo.

Ibigo bitanga serivisi z'ubutabazi bw'ibanze zigira ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo imashini z'ubwoko butandukanye bubafasha kugira ngo habashe kuba hatangwa serivisi zitandukanye ku barwayi.

Ababyeyi bari mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuzima bakaba baryamye ku bitanda byo kwa muganga, ikindi kandi inyubako nk'izi zifasha abazigana kubona serivisi zitandukanye iInyubako iri mu mabara y'umweru ikindi kandi ikaba irimo inzitiramibu zigiye zitandukanye kuri buri buriri.

Abaganga bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, bakaba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kubavura abarwayi. Abakora mu nzego z'ubuvuzi baba bambaye impuzankano, ndetse bakaba bafite ibyuma bibafasha kwikingira.

Utudege duto tutagira abapilote, dutwara ibikoresho bitandukanye, tuzwi nka dorone, tukaba twifashishwa kugira ngo hatangwe ubutabazi bw'ibanze, aho dushobora gutwara imiti ndetse n'utundi dukoresho tworoshye dutandukanye, kugira ngo tugezwe ku badukeneye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuvuzi bari ahantu hateraniye ababyeyi bateruye abana bakaba bari kubakingira ndetse babaha n'imiti y'ubwoko butandukanye kugira ngo babarinde indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi byifashisha uburyo butandukanye mu kuvura abarwayi, umubyeyi uri kuvura umusore wagize ikibazo ku kuboko hirya ye hakaba hari abandi bari gusuzumwa n'undi muganga.

Abantu benshi bari ku kibuga bateruye ikarita igaragaza kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, abakora mu nzego z'ubuzima na bo bajya bafata umwanya bakibuka abakozi ndetse n'abakoraga ku bigo bitandukanye by'ubuzima kugira ngo babibuke.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima birimo ibitaro, bagira ibikorwaremezo bitandukanye, birimo ibitanda, intebe ndetse n'ameza, aho abagana ibi ibigo babasha kuba babona aho kuryama, ikindi kandi bakaba banahabwa izindi serivise zigiye zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cyubatseho inyubako zitandukanye, zirimo iz batangira serivisi z'ubuvuzi, ikindi kandi hakaba hari urukarabiro ndetse n'ikibuga aho abantu babasha kuba banyura kugira ngo babashe kubagera kuri izo nyubako.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima, bifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo inkweto bambara ndetse n'amataburiya abafasha kugira ngo babashe kuba bakwikingira, bityo birinde uburwayi butandukanye.

Umugabo ukora mu nzego z'ubuzima akaba yicaye mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ku meza, akaba ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana bityo bakaba bari gufata ibiganiro bitandukanye kugira ngo babashe kuba bavura indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi zigirira ibikorwaremezo bitandukanye birimo inyubako zirimo ibitanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kugeza serivisi nziza ku bakiriya bavura indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bavura neza abarwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga intebe, ibitanda, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugirango babashe kuba bavura abarwayi.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi zikaba zigira ibikorwaremezo bitandukanye byiganjemo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, umubyeyi wicaye ku gitanda cyo kwa muganga akaba afite ibikapu ndetse impande hakaba hari inzitiramubu.

Umugabo wambaye imyambaro y'impuzankano, y'inzego zishinzwe umutekano, akaba yicaye ari kumwe n'undi muntu, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye ikindi kandi bakaba bari mu nyubako iri mu mabara y'umukara ndetse n'ibirahure.

Ibigo bitandukanye bihuriza hamwe abantu mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, aho ibigo by'ubuzima, bihuriza abantu kugira ngo bafate umwanya, wo kwibuka abakozi.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, birimo imikasi y'inshinge ndetse n'ibitambaro bikaba byifashishwa kugira ngo babashe kuba batabara abarwayi bityo babakingire kandi babarinde indwara zitandukanye.

Ukuboko kwambaye ibikoresho by'ubwirinzi byo kwa muganga, ari gukora mu bintu bijyanye n'inkingo, yambaye uturindantoki ari gukoresha ibyuma byo kwa muganga bitandukanye.

Abaganga bakora muri serivisi z'ubuzima bakaba bari mu cyumba kirimo ubwoko bw'ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira go ngo babashe kuba bareba neza imiti ndetse no kwita ku barwayi.

Inyubako zitangirwamo serivisi zo kwa muganga, zigira ibyumba byabugenewe, aho haba hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima, bifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe kuba basuzuma indwara, ikindi kandi baba bambaye n'ibikoresho by'ubwirinzi, bibafasha kugira ngo bikingire indwara, bashobo kwandura,

Umuganga uri mu cyumba cya raboratwari hari imashini zigiye zitandukanye zimufasha mu gukora ndetse no gusuzuma imiti igiye itandukanye, yambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo ga ndetse n'agapfukamunwa.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bifashisha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gusuzuma ndetse no gutahura uburwayi bugiye butandukanye, ikindi kandi baba bambaye ibikoresho by'ubwirinzi bibafasha kugira ngo birinde kandi bikingire indwara.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi, zigira ibyumba byabugenewe, aho haba harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa kugira ngo babashe gutunganya ndetse banabike imiti neza, ni byiza ko izi nyubako ziba zigomba kubugwangabungwa kugira ngo izi mashini zisigasirwe.

Abaganga bakora muri serivisi z'ubuzima bakaba bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo iby'ikoranabuhanga bibafasha kugira ngo babashe kuba basuzuma kandi batange raporo zigiye zitandukanye ku bijyanye n'imirimo baba bakoze.

Icyumba kirimo umukozi ukora muri serivisi z'ubuzima, imbere ku meza hakaba hari ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ndetse n'ibikoresho ari kwifashisha, hirya ye hakaba hari abagabo babiri bategereje ko abafasha.

Ababyeyi bateruye abana bato, bakaba bambaye imyambaro y'impuzankano, ikindi kandi bakaba bahuriye hamwe, bari kuganirizwa ku ngingo zigiye zitandukanye, zijyanye no kuba bafasha abana babo kugira ngo bagire imikurire myiza.

Abajyanama b'ubuzima bakangurira ababyeyi ndetse n'abarera abana kugira ngo babashe kuba basobanukirwa akamaro ko kubategurira indyo yuzuye aho babategurira imboga ndetse n'ibyo kunywa by'amoko atandukanye kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza.

Umuganga uri gukora muri serivisi z'ubuzima, akaba ari ahantu hateraniye ababyeyi benshi akaba ari gupima umwana. Ababyeyi bakangurirwa gukingiza abana kuva bakivuka, kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima zikaba ziganwa n'abantu batandukanye by'umwihariko hakaba hagana abantu bakeneye serivisi z'ubuzima kugira ngo babashe kuba bakitabwaho ikindi kandi bagirwe n'inama ku bijyanye n'ubuzima.

Igishushanyo kigaragaza umubyeyi urimo wonsa umwana, inzego z'ubuzima zikangurira ababyeyi uburyo butandukanye, bwo kugira isuku igihe barimo bonsa abana bityo kugira ngo abana bakure bafite ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima. Ikaba yubakishije amatafari. Imbere yayo hakaba hari ikibuga cyagutse. Hirya y'inyubako hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye birebire. Inyubako nk'izi zifasha abazigana kubona serivisi zijyanye n'ubuzima.

Abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe bahurije hamwe abantu kugira ngo babashe kuba babaganiriza ku ngingo zitandukanye zijyanye n'uburwayi bugiye butandukanye. Ni byiza ko abafite ibibazo bitandukanye baba bagomba kugana aba bajyanama b'ubuzima kugira ngo babashe kubagira inama.

Abakangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bakangurira abantu aho babaha amahugurwa atandukanye ikindi kandi babagira inama ku bijyanye no kwirinda indwara zigiye zitandukanye zijyanye n'izo mu mutwe.

Abaganga bakora mu nzego z'ubuzima, bakaba bari mu cyumba aho bari kumwe n'umubyeyi, bakaba barisuzuma ubwoko bw'indwara zitandukanye, ni byiza ko abafite indwara zitandukanye baba bagomba kugana ku mavuriro kugira ngo babashe kuba babafasha.

Inyubako ihuriyemo abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye bakaba bari kuganira ndetse bafata imyanzuro runaka ku ngingo zigiye zitandukanye. Ni byiza ko tuba tugomba gusobanukirwa akamaro ko kugana abaturage kugira ngo tubashe kuba twagirwa inama zitandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima, bahuriza hamwe abaturage, bakabaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, zirebana n'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo by'umwihariko, bagakangurira kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bafite icyapa kigaragaza ubukangurambaga bari gukora ku burwayi bugiye butandukanye kugira ngo bashishikarize abantu kuba bakirinda indwara zijye zitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi zo gucuruza imiti zizwi nka farumasi zikaba zicuruza ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye, ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye bityo abantu bakabaho bafite ubuzima buzira indwara.

Inyubako zicuruza imiti, zizwi nka farumasi, zikaba zicuruza ubwoko bw'imiti itandukanye. Umuntu uri mu nyubako ya farumasi, akaba ari gucuruza iyi miti, imbere ye hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga, bimufasha kugira ngo abashe kuba yamenya neza ubwoko bw'imiti ari bucuruza.

Inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi, zicuruza ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, ifasha abantu kugira ngo babashe kuba bakivura, indwara zigiye zitandukanye bityo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako zicururizwamo imiti zizwi nka farumasi, hakaba hari ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, aho abaguzi baza bakabasha kubona ubwoko bw'imiti itandukanye, kugira ngo babashe kwivuza indwara nyinshi.

Inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi, zicuruza imiti y'ubwoko butandukanye ifasha kugira ngo abaturarwanda babashe kugira ubuzima bwiza budafite indwara, kuko babasha kubona imiti ibafasha kugira ngo bakire indwara.

Inyubako zitanga serivisi z'imiti zizwi nka farumasi ,zifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza ,zibarinda kandi zikabavura indwara kuko baba bafite ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa kugira ngo bavure.

Inyubako zicururizwamo imiti zizwi nka farumasi, zikaba zicuruza ubwoko bw'imide itandukanye bityo abagana izi nyubako bakabasha kubona imiti y'ubwoko butandukanye, ibafasha kugira ngo bivure kandi bikingire indwara.

Ibigo bitanga serivisi zo gucuruza imiti bizwi nka farumasi, bigira ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, aho babasha kuba bayiha abayikeneye kugira ngo babashe kuba barengera ubuzima bwabo.

Ibigo bicuruza imiti bizwi nka farumasi, bicuruza ubwoko butandukanye bw'imiti, aho abarwayi babasha kuba babona imiti igiye itandukanye, ishobora kubafasha kwivura indwara zigiye zitandukanye bityo bakabaho bafite ubuzima bwiza.

Inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi, zicuruza ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ifasha abantu kugira ngo babashe kuba bakivura indwara zitandukanye, inyubako nk'izi zikorwamo n'abaganga b'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi.

Ibigo bitanga serivisi z'imiti bizwi nka farumasi, bifasha abaturarwanda kubona imiti y'ubwoko butandukanye, ibafasha kugira ngo babashe kwivura ndetse no kwikingira indwara z'ubwoko butandukanye.

Inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi zikorwamo n'abakozi batandukanye, aho baba bacuruza imiti y'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo abagana aya mafarumasi babashe kuba babona serivisi nziza.

Inyubako zicuruza imiti zizwi nka farumasi, zigira imashini zitandukanye zifashishwa kugirango habashe kuba habikwa neza imiti, bityo bibashe gutangwa ku barwayi ifite ubuziranenge.

Inyubako zicururizwamo imiti zizwi nka farumasi, zikaba zicuruza imiti igiye itandukanye, ifasha abantu kugira ngo babashe kuba bakivura indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko tuba tugomba kugana aya mafarumasi kugira ngo tubashe kugura imiti y'ubwoko bugiye butandukanye.

Ikiganza gifite imiti igiye itandukanye y'amatungo igaragaza ko ishobora kuba ivura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti bakaba bayirangira abantu bakora ubworozi bw'amatungo yaba amaremare ndetse n'amagufi.

Abantu bari gukora mu nzu zicuruza imiti zizwi nka farumasi aho bacuruza ubwoko bw'imiti itandukanye kugira ngo abaturarwanda babashe kuba bagira ubuzima bwiza, abacuruza iyi miti baba bafite ibikoresho bitandukanye birimo imyambaro ndetse n'ibindi bibafasha mu bwirinzi.

Inyubako zicururizwamo imiti zizwi nka farumasi, zikaba zifasha abantu kubona imiti igiye itandukanye, ibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye. Ikindi kandi izi nyubako zikaba zitunga abazikoramo kuko babasha kubona amafaranga.

Ibigo bicuruza imiti bizwi nka farumasi, bifasha abantu kubona imiti igiye itandukanye, ishobora kubavura uburwayi bugiye butandukanye, bityo bakabaho bafite ubuzima bwiza.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bahuriza hamwe abaturage kugira ngo bige ku ibibazo bigiye bitandukanye ikindi kandi bahabwe amahugurwa ku bijyanye n'uburyo bakirinda indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Abayobozi mu nzego z'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bige ibibazo bigiye bitandukanye, abayobozi mu nzego z'ubuzima ndetse n'iz'umutekano bambaye imyambaro y'impuzankano bakaba bahuriye mu gikorwa cyabahuje ku ngingo runaka.

Ivomero rusange aho abaturage bahurira bakabasha kubona amazi bifashisha mu gukora amasuku mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bakirinda indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda.

Abayobozi mu nzego z'ubuzima ndetse no mu nzego z'umutekano, bahuriza hamwe abantu kugira ngo babashe kuba babaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, bityo babashe kuba babaho bafite ubuzima bwiza ikindi kandi bafite n'umutekano.

Abasore babiri bicaye bafite indangururamajwi, bakaba bari kuganira n'umukobwa uhagaze ku ngingo zitandukanye, bityo kugira ngo babashe kuba bakungurana ibitekerezo, ibiganiro nk'ibi bibasha gufatirwamo imyanzuro igiye itandukanye.

Abayobozi mu nzego z'ubuvuzi ndetse no mu nzego z'umutekano bahurira hamwe mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima by'umwihariko iri huriro ryari rigamije gukangurira abaturarwanda kwirinda indwara ya malariya.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa kugira ngo habashe kuba hakorwa imiti igiye itandukanye, ifasha mu kuvura ubwoko bw'indwara zitandukanye. Bimwe muri ibyo bimera, byifashishwa kugira hakorwe imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Abakozi bakora mu nzego z'ubuzima bacuruza imiti yavanywe mu bimera gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko gukoresha imiti yavanywe mu bimera gakondo, kuko ibasha kuvura neza.

Umubyeyi uri gusoroma umuravumba, umuravumba ni ubwoko bw'ibimera byifashishwa nk'umuti gakondo ,kugira ngo bibashe kuba byavura indwara zitandukanye ,ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kwivurisha imiti gakondo, yiganjemo ibimera, kugira ngo dukire indwara zitandukanye.

Abakora kandi bakanacuruza ubwoko bw'imiti gakondo banezezwa nuko babasha kubona ibimera by'ubwoko butandukanye kugira ngo babashe kuba batunganya iyo miti, bityo ibashe kuba yavura indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye ndetse n'imbuto, byifashishwa mu gukora imiti gakondo abanyarwanda bafite ubuhanga bwo gukora imiti gakondo, bifashishije ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi abanyarwanda bifashisha ibimera bitandukanye mu kwivura ndetse no kwikingira indwara zigiye zitandukanye bityo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abakangurambaga mu gukoresha imbuto gakondo, bakangurira abantu gusobanukirwa akamaro ko gukoresha, ibimera by'ubwoko butandukanye kugira ngo babashe kuba bakivuza, indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi byifashisha ubwoko bw'imiti ndetse n'ibinini bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba bavura abarwayi, ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo by'umubiri tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba yadufasha.

Ibigo nderabuzima ndetse n'inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zifite ibikorwaremezo bitandukanye birimo imihanda, inyubako iri mu mabara y'umuhondo ikindi kandi ikaba isakaje amabati y'umutuku imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti byinshi.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zirimo ibigo nderabuzima ndetse n'amafarumasi, bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza kuko babasha kuba babaha imiti, ikindi kandi bakabagira n'inama z'ubuzima.

Ababyeyi baje ku kigo nderabuzima, aho bafatira serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima, bakaba bateruye abana, ikindi kandi ibi bigo bifasha ababigana kubona serivisi nziza, aho babafasha mu byo bakeneye.

Umuganga wicaye mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, akaba afite ibyuma by'ikoranabuhanga, ikindi kandi imbere ye hakaba hicaye umubyeyi uteruye umwana, aho ari gushaka gusuzuma uburwayi yaba afite.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima, imbere yayo hakaba hari ubusitani, hirya inyuma hakaba hari ibidukikije, inyubako nk'izi ziganwa n'abantu batandukanye bakeneye serivisi z'ubuzima kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza.

Ibigo bicuruza imiti y'ubwoko itandukanye, ifasha abantu kugira babashe kuba babona imiti bityo bivure indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima ku rubaraza hakaba hicaye abantu ingeri zitandukanye, iyi nyubako iri mu mabara y'ubururu, imbere yayo hakaba hari ubusitani bugiye butandukanye bucyubakwa.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi zigira inama abantu kuzigana kugira ngo babashe kuba bahabwa imiti. Ikindi kandi bahabwa n'amahugurwa y'uburyo bagomba kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse bagahabwa n'ubujyanama.

Umuganga ukora muri serivisi z'ubuzima akaba afite urushinge, yambaye ibikoresho by'ubwirinzi, birimo uturindantoki, tumufasha kuba yakikingira indwara zigiye zitandukanye, mu gihe ari gukora, umurimo nk'uyu nguyu.

Iduka ricuruza ubwoko bw'imyambaro itandukanye ikindi kandi hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye za banki, ku rubaraza rw'iyo nyubako hakaba hahagaze ibipupe byambaye imyenda biranga ko bacuruza ubwoko bw'imyambaro igiye itandukanye.

Ibigo nderabuzima ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bagira ubwoko bw'imiti itandukanye aho bafasha abayikeneye kugira ngo babashe kuba babona imiti, by'umwihariko iyi nyubako irimo imiti ivura kandi igakingira ubwoko bw'inyamaswa zo mu rugo zitandukanye.

Icyumba kirimo abagabo babiri umwe wicaye undi ahagaze akaba ari kumusuzuma ukuboko yifashishije ibikoresho bitandukanye ikindi kandi hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima aho abaturage bagana iyi nyubako kugira ngo babashe guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima.